Kwa muganga bapima uburyo amaraso yirukanka mu mubiri w'umuntu, bagushyiraho imashini, bakareba ukuntu amaraso yirukanka mu mubiri, niba afite umuvuduko uri hejuru, cyangwa niba afite uri hasi, bakanareba niba afite umuvuduko uringaniye bakunda kwita norumari.

Ahantu bita muri farumasi haba imiti y'ubwoko bwose, muri iyo farumasi hari iz'ibitaro, hari n' iz'abigenga ku giti cyabo, iyo wandikiwe umuti na muganga usabwa kuwugura hanze, ujya muri farumasi ukababaza umuti bakwandikiye, bakawukugurisha.

Imiti gakondo ikwiye kubungwabungwa kuko idufasha mu buzima bwa buri munsi, iyo urwaye ukifashisha imiti gakondo ku ndwara yoroheje, iragufasha ukajya kwa muganga nta kibazo kindi wagize gikomeye.

Ibyatsi cyimeza bifasha mu buzima bwa buri munsi, tubigaburira amatungo, tukabikoramo icyarire cy'amatungo, tukabihingiraho mu murima bigatanga ifumbire, ibyinshi muri byo usanga, ari n'imiti ya kinyarwanda, niyo mpamvu dukwiye kubibungabunga.

Ibiti by'ishyamba cyane ibikunda kuba ahantu haba amazi menshi ,bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi ,tubitutiramo ibishingirizo bikaba n'ubwihisho bw'inyamaswa zitandukanye ,bikazana umwuka mwiza duhumeka.

Imboga zitwa isogo. Ni imboga rwatsi nk'izindi zose. Zishobora kwimeza mu gihuru cyangwa aho waziteye. Ni imboga zidapfa gupfa iyo wazihinganye umwete.

Urubingo bakunda kwita kameroni, ni ubwatsi bw'inka inka zikunda kurya, bushobora guterwa mu murima warwo rwonyine, rukavangwa n'iyindi myaka kuko rutonona indi myaka, bigatuma umuhinzi ahinga imyaka ye neza, abona ifumbire yavuye muri rwa rubingo, inka ikabona ibyatsi byo kurya.

Amakoro ni amabuye aba mu nshe z'ibirunga, ayo makoro aba asa umukara, afasha mu kubaka, kuko usanga bayubakisha nta sima bakoresheje, ubwayo yifitemo gufatana, bigatuma bapfa kuyubakisha, usanga ahantu ari haba ubutaka bwera cyane.

Igisura ni icyatsi cya cyimeza, kiba ahantu hakunda kuba amazi ahagije. Gikoreshwa nk'umuti ushobora kuba uvura ibintu byinshi. Gifatwa nk'icyakoreshwaga hambere mu gukubita abana banyara ku buriri bakabicikaho.

Ishyamba ni ahantu hari ibiti byinshi biteye ahantu hamwe usanga ishyamba ryinshi riba rigizwe n'ibiti bya myotsi bikura bikaba birebire cyane. Ishyamba ridufasha kubona inkwi zo gucanisha rizana n'umwuka mwiza duhumeka.

Gaperi ni urubuto rwiza cyane ruribwa n'ingeri zose abato na bakuze, rugafasha uwaruriye kumererwa neza mu mubiri, umuhinzi wahinze gaperi yiteza imbere kuko ararya agasagurira na masoko.